Ifoto iragaragaza umugabo Ugiyekureba amainite ku mu agenti cyangwa se ugiye kumubikurira cyangwa se kuswapa simukadi ahoha bigufasha kuba abona serivisi itandukanye bitagu bitagusabye kujya ku cyiciro cya MTN.

Iyi foto iragaragaza akazu ka MTN, ni akazu kifashishwa mu bakozi ba MTN, batanga amayinite, babikura, babitsa, bikaba byoheza abantu kuba babikuza batagiye ku cyicaro cya MTN, udakoze urugendo.

Ni umugabo uri gutanga ikiganiro, ku nsanganyamatsiko yitwa nyagatare investment forum.

Uyu mupapa ari muntuza, mu mbuto z'imyembe, ubona ko ari kuzitaho kugira ngo azabone uko ajya kuzitera ahandi, aha hanga ni aho binariza imbuto zitandukanye, zihingwa.

Iyi foto iragaragaza abantu bateraniye hamwe bari kuganira ku ngingo zitandukanye, ubona ko bahuje ibiganiro barimo baganira neza ibintu byubaka kandi biteza imbere igihugu.

Aha ngaha ubona ko ari koperative yitwa Ahazaza Heza. Urabona ko bafite inanasi nziza barimo kuganira ku musaruro cyangwa se ku byo bari kugenda bageraho cyangwa se mu buryo bari gutere imbere.

Hano hari inzoga z'amoko atandukanye. Aha izi nzoga zirahenze cyane. Izi wazikoresha mu bukwe kwakira abantu, kokiteri zagufasha mu rugo iwawe, kuzakiriza abashyitsi.

Urukombure ni igikorwa cyiza abantu bakunda mu iduka harimo byinshi ushobora kurya na giyamata ndetse n'ibindi byose umuntu ashobora gukenera ibi byose umuntu ubywa aba ahawe ikaze agashyu amafaranga.

Ibifuto biragaragaza ahantu hari igare, hari ibicuruzwa, hari kandagiraukarabe, hari imifuka icuruzwa, hari imyenda icuruzwa, hari n'umuntu uri hirya yabyo.

Iyi foto iragaragaza ibicuruzwa bitandukanye harimo amavuta, harimo amo, hakaba urusenda, harimo amakayi, harimo sikoro.

Iyi foto iragaragaza abacuruza ibirayi, umuceri, kawunga, ubugari, shikarete ikingiki ni igikorwa kigufasha gutera imbere mu buryo butandukanye, ndetse ugateza n'igihugu cyawe imbere muri rusange.

Icyapa kirarangaye, New life bible church ni urusengero cyangwa se ni itorero rikora ibintu bijyanye no gusenga, urabona ko hariho umugabo uhagaze impande yaryo, ari kugaragaza iki cyapa ibihanditse.

Hano hari ifoto y'umu mama uri kugenda aha abantu icyo kunywa. Agenda abasukira mu dukombe. Hari n'aba mama abandi babiri bicaye, n'undi afashe umwana. Hakaba n'umupapa umwe n'undi mukobwa umwe.

Aha ni muri salo, harimo intebe nziza, harimo ameza, akabati, harimo n'ibindi byumba. Ahangaha ni ahantu waganirira n'umuryango wawe, cyangwa se abavandimwe n'inshuti, mukaba mwaganira ku bintu bitandukanye.

Ahangaha urabona ko ari muri Resitora abantu biyakirira mukaba mwakoreramo inama, ukaba waganiriramo n'inshuti mukungurana ibitekerezo wakoramo buzinesi wakiteza imbere wowe n'umuryango

Iyi foto iragaragaza ibikoresho biranga umuco, nyarwanda harimo uduseke, harimo amagare akozwe mu biti, ndetse n'ibintu bitandukanye. Ibindi ni Ibikoresho biranga umuco nyarwanda.

Kugaragaza ahantu hari pisine, hino y'aho hari tapi ahandi harapavomye, pisine ifasha abantu kuruhura kuguruka mu mutwe, kuruhura ubwonko ndetse no kuba umuntu byatuma aruhuka neza akaba yatekereza neza.

Iragaragaza ibijumba ndetse n'abagabo barimo bari kurobanuramo ibyapfu, bijumba igihe ni ibihingwa biribwa bitera imbaraga bituma umuntu yibazwabura ikintu gitandukanye.

Ifoto iragaragaza umugabo n'abandi badamu batandukanye, n'abandi bantu bari hirya, bari mu isoko ry'ubucuruzi. Ahangaha bibafasha kuba bakiteza imbere ndetse n'umuryango wabo muri rusange ugatera imbere.

Ifoto iragaragaza umu mama cyangwa se w'igitsina gore n'abandi bicaye. Hano ni mu isoko ricuruza imyenda ndetse aha ngaha ni ahantu wabona icyo kwambara buryo butakugoye.

Ahantu ni umuhanda w'ibitaka urimo abagenzi, hari inzu zitandukanye ku mpande n'impande ubona ko umuhanda uri gukorwa ugiye gushyirwamo kaburimbo. iyo umuhanda urimo kaburimbo byorohera ibinyabiziga ndetse n'bantu kugendamo ntagisitaza.

Ifoto iragaragaza inyubako ikorerwamo ibirori bitandukanye, ubona no kuyakira abantu batandukanye kandi benshi cyane, ubona ko isukuye ifite isukura, ahantu wakwifuza kuba wasohokerayo cyangwa se wakorera ikiganiro.

Iyi ni inyubako yavamo hoteli bakuramo buzinesi zitandukanye, haberamo inama kandi byagufasha kuba wakinjiza amafaranga mu buryo runaka, ba mukerarugendo, yakwakira abayobozi batandukanye.

Iyi modoka irimo umupapa utwaye imodoka, avuye kuri banki y'u Rwanda, banki nkuru y'u Rwanda itanga inguzanyo, urabitsa, ukanabikuza.

Hano ubona hari abamotari bari gutwara moto n'abagenzi ubona ko umuhanda wapfuye wajemo isuri imvura yaguye ari nyinshi cyane, ibingibi bikaba byateza impanuka ndetse habamo n'urupfu rutandukanye, hirya hari ibiti bitandukanye.

Iyi ifoto igaragaza umumotari uri muhanda uri gutwara. Moto ni igikoresho kigufasha kubona amafaranga, kuba watunga amafaranga, ugatunga umuryango, ukabaho neza, abana bawe bakaba bajya kwiga, nawe ukaba wakiteza imbere mu buryo butandukanye.